Aho bafatira ibyo kunywa hazwi kuri bare, hagomba kuba ari ahantu hafite isuku, hariho ibikoresho intebe, ameza ndetse n'ibindi bitanga umutuzo nk'ibitanga umuyaga duhumeka, kugirango abahari babeho mu buzima bwiza.

Abantu iyo baganira cane cane iyo bizihiwe usanga basabana, bagaseka mbese buri wese akagaragaza igitekerezo cye.

Njyewe sinkunda kunywa inzoga mana yanjye ! Kubera ko nigishijwe ko ari icyaha, niyo mpamvu nirinda kunywa inzoga, kugira ngo ntazata umutwe.

Ababyinnyi ba hano iwacu i Rwanda si nk'abo mu mahanga. Kubera ko twebwe iwacu mu Rwanda, tubyina dukurikije umuco w'iwacu. Abanyamahanga bo bakoresha umuco w'iwabo imahanga.

Aho bakorera inama, usanga hafite isuku, hasukuye ku buryo butangaje. Haba harimo ibikoresho bitandukanye : intebe, ameza.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye harimo ibirago n'uduseke ndetse no kudoda imyenda. Ni imyuga igezweho iteza imbere ababikora.

Muri iyi minsi inyubako z'ubucuruzi zigezweho ni iziriho amakaro ku bikuta, ndetse n'akabaraza imbere abantu bagomba kugamaho birumvikana iyo imvura yaguye.

Umwuga wo gukanika ibikoresho by'itumanaho ni mwiza cane, uteza imbere nyirawo, agateza imbere n'igihugu, agateza imbere umuryango we, bikamufasha kugera ku cyifuzo cye ndetse n'indoto ze.

Imodoka nini y'ikamyo yikoreye umuceri ije kuwuranguza abacuruzi kugira ngo bagurishe abakiriya ibyo baranguye.

Amazu y'ubucuruzi aba gatatse amakaro ku nkuta . Imbere y'aho hari abamotari bategereje abagenzi.

Serivisi zitangwamo amacumbi ni imwemu serivisi zigoboka ba mukerarugendo iyo basuye igihugu cyacu cyangwa se n'undi muntu waturutse hirya no hino.

Inzu bogosheramo bayita salodokuwafire, igomba kuba ari inzu ifite isuku, iriho aho gukarabira kugira ngo abinjira muri icyo cyumba babe bafite isuku.

Inzu z'ubucuruzi zigezweho muri iyi minsi, ushobora kuzisanga mu muji kandi zikarangwa n'ibikoresho bigezweho nk'amakaro atatse inkuta, ndetse n'amapave ari mu mbuga.

Inzu zicuruza amakarita y'itumanaho ndetse no gutanga amafaranga ku itumanaho, tuzifashisha kenshi iyo dushaka gushira amafaranga muri telefoni cyangwa se kuyashirisha ku ikarita, ibyo byose bikadufasha mu iterambere ry'igihugu cyacu gihanganye naryo.

Ubucuruzi bw'amapine ni ubucuruzi bugezweho kandi buboneka ahantu hateye imbere nko mu miji. Ndabona n'imbere y'umuryango hari kandagira ukarabe idufasha kugira ngo tugire isuku.

Amaduka akozwe neza atakishijwe amakaro ndetse ari ku muhanda hafi y'aho abagenzi bashobora kugenda.

Iduka ricuruza ibikoresho, ibikapu ndetse n'ibindi bikoresho, rigomba kuba rifite isuku kandi rifite aho bamanika ibikoresho, nko utwa etajeri cyangwa se etajeri z'ibiti, ibyo byose ni byiza bituma tugaragara neza.

Ibikorwa remezo nk'amaduka inzu zigerekeranye, ni kimwe mu gikorwa kigaragaza ko ahantu hateye imbere, kandi mu buryo bugaragara.

Inzu y'ubucuruzi ikoze neza igomba kuba yubakishije amatafari ahiye, ku rukuta yubakishije amakaro kandi ifite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo tumenye ibigezweho hirya no hino.

Inyubako rusange zigezweho muri iyi minsi, ni inyubako zigerekeranye zizwi ku izina rya etaje, zibamo serivisi zitandukanye ,wahacururiza hamwe ikindi cyumba cyavamo farumasi, icyo ni cyo cyerekezo igihugu cyacu gishaka.

Amazu yo gucururizamo ahanini aba ari amazu akoze neza, dusangaho amakaro azengurutse inkuta, ndetse n'uburyo yubatse aba yubatse mu buryo bwa kijambere, aho dushyiraho igihanga ndetse n'inkingi zifashe inzu.

Icyapa kigaragaza aho parike y'ibirunga iherereye, iherereye ku birometero bitatu uvuye aho icyapa kiri.

Ahantu nyaburanga ni ahantu heza cyane usanga ibikoresho gakondo byo mu muco wa kera, ba mukerarugendo barahakunda cyane, bakunda kuhasura baje kureba ibyiza bitatse u Rwanda.

Ubucuruzi bw'imyenda, aho bukorerwa ku muhanda bacuruza imyenda ya caguwa, ndetse n'abatanga amafaranga kuri mobayilomani barahari aho hafi aho.

Ni byiza ko tugaragaza ibyo dukora kugira ngo n'abakiriya batugana baze bazi ibyo ducuruza nk'ibyo kurya inyama ndetse n'ibindi bitunga ubuzima bwacu.

Imodoka ihagaze imbere y'amazu yubucuruzi. Si byiza ko igaragara hafi aho kubera ko yateza impanuka.

Inzu aho bacururiza ibiryo muri rusange bahita resitora. Aho hantu ushobora kuhabona ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Sako ni inyubako y'abaturage aho babitsa amafaranga bafite umutekano. Ikabateza imbere, bakiyubakira igihugu ndetse n'agace batuyemo.

Iduka riranguza ibyo kurya nk'imiceri ndetse n'ibindi, ni ngombwa ko riba rifite isuku, kugira ngo ridateza ibibazo cyangwa se uburwayi ku bantu bagiye guhahira aho hantu.

Inzu z'ubucuruzo ni inzu zigomba kuba ari nziza cane zitatse amakaro ku bikuta, zifite ibaraza, iyo nta bararaza rihari ntaho ziba zigezweho muri iyi minsi.

Amahoteli ni igikorwa cya kijyambere, aho inama zibera ndetse hagatangwa n'ibitekerezo, byo kubaka igihugu cyacu kikagera ku majambere twifuza.

Ibyuma bikoreshwa mu kubeta ibigori hakavamo kawunga, hagomba kuba aho hantu hafite isuku, ari ababikoramo ndetse na ho ubwaho hafite isuku.

Inyubako z'amahoteli zigomba kuba ari inyubako zigezweho, kandi zitaruye inzu z'abaturage, kugira ngo ba mukerarugendo, bazisure bisanzuye kandi bafite umutekano.

Amazu agerekeranye ya etaje ni amazu meza cyane agaragaza ko igihugu cyateye imbere, kubera ko akorerwamo ubucuruzi , ubuvuzi ndetse n'indi mirimo itandukanye.

Abacururiza ku muhanda ntabwo bemewe, abacuruza ibyo kurya, amabombo ndetse n'abatanga serivisi z'ikoranabuhanga ba mobayiromane.

Inzu zigezweho mu Gihugu cyacu, ni inzu zigerekeranye za etaje, aho usanga hacururizwamo ibintu bitandukanye n'ibikorwa bitandukanye.

Amazu agezweho asakajwe n'amabati ya Ruriba, hejuru hanyuzeho insinga z'umuriro w'amashanyarazi agira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu kandi rikihutisha ugusobanuka kw'abaturage.

Inzu z'ubucuruzi, ni inzu zigezweho zubakishije amakaro ku bikuta, kandi zigomba kuba zifite ahantu abakiriya baruhukira.

Iduka ariko rikora iby'ikoranabuhanga, aho ritanga serivisi y'irembo, ni byiza ko riba ryubakishije ku buryo bugezweho, kandi ku buryo ariryo abaturage baza bifuza.

Aho tugurira bahita ku maduka hagomba kuba hafite isuku ihambaye cyane, hubakishije amakaro ku bikuta kandi hakatubera icyitegererezo cyiza cyane.

Iduka ricururizwagamo ibikoresho by'abana nka :"Pampegisi ndetse n'imyenda bambika abantu ibyo byose birahenze muri iyi minsi!

Iduka riranguza umuceri, kawunga, ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo nk'ibikombe, amasahani, ndetse n'imikoropesho yo gukoresha isuku.

Aho ducuruza ibikoresho nk'amashuka ndetse n'ibitenge, ni ahantu hagomba kuba hafite umutekano, nta muvundo w'abantu benshi bahari kugira ngo kugurisha bitworohere kandi dutange serivise neza.

Aho amadini ateranira, bahita mu rusengero. Iyo amakorali aje kuririmba yambara neza akaberwa, akambara umwenda w'impuzangano, kugira ngo ugaragaze igikorwa bariho, kandi bagakundwa n'abakirisitu, kuko babaririmbiye indirimbo nziza.

Amazu agerekeranye muri iyi minsi, ni yo agezweho, ni yo ashobora gukorerwamo ishoramari, kuyacururizamo, kuyabamo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Urupangu ruzengurutse uruganda rw'inzoga kandi mu rurwo rupangu hahinzemo igihingwa cy'ibisheke.

Abagabo b'abayobozi. Bambaye imyenda y'umuryango wa arapiyefu. Baragenda neza kubera ko imihanda yakozwe neza. Bakaba bagenda ku mapave.

Uburyo bw'imiturire bugezweho ni uburyo bwubatse kijyambere amazu agerekeranye kandi bugabanya ubutaka bwo guturwaho bityo akaba ari icyerekezo igihugu cacu gifite.

Isoko rya kijambere rikoze neza, ririho ricuruza ibiribwa nk'ibirayi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Agaseke k'iwacu mu majaruguru ni keza cyane. Iyo ukitegereje, ubona gateye amatsiko yo kuba kifashishwa mu bukwe bw'ahantu henshi hatandukanye. Jjyewe ndagakundaga cyane, kubera ko n'umujyango wanjye turagatunze.

Ubucuruzi bw'imyenda butemewe, bucuririzwa ahantu hatabugenewe cane cane kubera ko baba bikeka ko bari bufatwe, bacurizamo imyenda itandukanye ndetse n'imyenda yagenewe abagore.

Igihingwa cy'ibisheke ni cyiza cyane. Cyera mu gace k'imisozi ndetse n'ibibaya. Ariko kikaryoha cyane iyo gihinze mu misozi.

Keke ni umugati uryoha cane utekwa mu ifuru, ukifashishwa ku meza mu byo kurya bya buri munsi, ukagira umumaro wo gutunga ubuzima bwacu.

Isoko ryabugenewe ricuruza ibikoresho byo mu rugo amasafuriya, imbabura ndetse n'amabase ni byiza cyane. Turabyifashisha iyo turi mu gikoni kandi bikatubera urugero rwiza rwo kurira ku gihe.

Aho tugurira inkweto za caguwa. Ushobora gusanga ziri ku muhanda kubera ko ubucuruzi nk'ubwo bwa caguwa butemewe iwacu mu Rwanda. Bityo tukaba dushishikarizwa gukoresha iby'iwacu.

Amafi araryoha cyane, bari kuyatunganya kugira ngo abakiriya bajyane, asa neza, kandi ni meza cyane.

Ububumbyi ni umwuga ukorwa n'abanyarwanda, kandi ukabateza imbere cane cane iyo ukoranywe ubuhanga n'ubushishozi.

Ubworozi bw'inkwavu, bugira akamaro cane cane ku muryango woroye izo nkwavu. Butanga amafaranga mu buryo bwihuse.

Umusaruro w'ibigori ugomba kubikwa neza, ugasarurwa weze kugira ngo utangirika, iyo uwusaruye uteze urangirika ukavunda, bityo umuhinzi agahomba, kandi ni ngombwa ko dukurikiza inama z'abahinzi, nk'uko babidutoza.

Umuhanda wa kaburimbo, aho imodoka ziparika ndetse na moto hafi y'isoko rya kijambere, ryubatse neza kandi rigezweho.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye by'urugo harimo amasafuriya, ibikombe, indobo byifashishwa mu gikoni, ni ingenzi kubitunga mu rugo.

Isoko rusange ryifashishwa mu buzima bwa buri munsi haba harimo ibiribwa bitandukanye nk'ibishimbo ibijumba, amateke n'ibigori ndetse n'imbuto.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye, harimo umuceri, harimo amasafuriya, harimo umuceri n'ibiribwa bigiye bitandukanye bidufasha, kugira ngo tubeho mu buzima bwa buri munsi.

Akabari ndetse n'ahandi hacururizwa inzoga, hagomba kuba hafite isuku, harangwa n'ibikoresho byiza : intebe, ameza, ndetse n'ibindi bikoresho byabugenewe, abakiriya bifashisha iyo bari kunywa.

Urujya n'uruza rw'abantu, rushobora guteza impanuka iyo abantu ari benshi mu muhanda, bashobora kugongwa n'ibinyabiziga hakaba haba impanuka, ni yo mpamvu tugirwa inama yo kugenda twitwararitse aho tugiye hose.

Ubucuruzi bw'imbuto harimo: pavuro, harimo inyanya, ibitunguru ,amavuta, ibirungo ndetse n'ibindi bitandukanye ;ibyo byose bigira umumaro ku bantu babyifashisha.